Urubyiruko ruri hamwe rwateze amatwi rwose, muri rwo hari umwe muri bo ufashe indangururamajwi ndetse na telefoni mu ntoki, bambaye imyenda isa.

Umugabo wambaye amataratara, afashe indangururamajwi mu ntoki, arimo aganiriza abantu ku ngingo zimwe na zimwe, uwo umusaza asa neza n'inzobe.

Abayobozi bicaye ahantu mu nama ni mu cyumba kiherereye cyane ariko kandi bose bahanze amaso imbere bivuze ko hariri kubagezaho ijambo, harimo n'abantu bari gufata amashusho bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, bari gufata amajwi n'amashusho y'ibiri kubera mwaho.

Umugabo munini umeze neza bigaragara yuko agiye gutanga ikiganiro ku bamu bamukurikiye, yicaye ku ntebe imbere ye hari ikayi ndetse harambitse na telefoni nyinshi cyane.

Abantu benshi bicaye hamwe harimo abayobozi n'abaturage bicaye munsi y'ihema bari kuganira, harimo abayobozi, inzego bwite za leta, harimo abasirikari n'abapolisi.

Ihuriro ry'abantu bakuze b'abayobozi bicaye hamwe mu cyumba bishimye bizihiwe, bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye.

Icyapa cya Imbuto Foundation aho bari mu bukangurambaga hakaba higanje abaturage benshi baje gukurikira ikiganiro n'ubukangurambaga buri gukorwa, hakaba hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ayifatishije amaboko yombi yambaye n'amataratara arimo abwira abaturage anabasobanurira icyo uyu muryango umaze.

Umugabo umeze neza ufite umubiri cyangwa se ubyibushye, afashe mu ntoki indangururamajwi bigaragara yuko hari ikiganiro yenda kuganiriza abarimo bamutega amatwi.

Icyumba kirimo abantu benshi biganjemo abayobozi bari kuganira ku ngingo zimwe na zimwe, iki cyumba kirimo ibitambaro bishobora kwifashisha mu gutanga cyangwa se kurubuza urumuri ko rwinjira.

Ihuriro ry'abantu benshi ririmo abakuze abakiri batoya, abasheshakanguhe, bateranye bigaragara yuko, bari guhabwa impuguro amabwiriza, cyangwa se ubukangurambaga, ku ngingo runaka.

Ifoto igaragaraho abantu benshi bakuze higanjemo abagabo ndetse n'umubare mutoya w'abagore, bakikijwe n'ibyuma byubatse inzu bahagaze imbere.

Abantu bari ahantu hamwe bakuze, bayobowe n'umugabo wambaye amataratara, imbere ye hateretse ibyo kunywa mu macupa bigaragara y'uko bari kuganira.

Abagabo n'abagore n'abasaza bahagaze hamwe ku murongo inyuma yabo hari abandi bantu benshi bameze nkabari mu kiganiro kandi bakaba bari ku murongo nk'abagiye gufata ifoto rusange kugira ngo izifashishwe mu bikorwa bitandukanye harimo na raporo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, abagabo n'abagore, bambaye neza cyane kandi bari kureba mu cyerekezo kimwe, bigaragara ko bari guhabwa ikiganiro ku ngingo runaka.

Ababyeyi babiri bahagaze imbere inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, handitseho ngo bikorere mu isibo, umwe afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'igitabo.

Ihuriro ry'abaturage, abayobozi, abasirikari na Polisi bagiye guhabwa ikiganiro ku ngingo runaka.

Abantu benshi bazengurutse shitingi zirambuye hasi, imbere yabo hari umugore uri kuberekera ni abagabo n'abagore ubona ko bizihiwe n'igikorwa barimo.

Umugabo wishimye cyane wambaye amataratara iruhande rwe hari igitambaro kiri mu mabara abiri icyatsi kibisi n'umuhondo.

Umugore arapfukamye ari gusya amasaka akoresheje ibuye, cyangwa se urusyo. Imbere ye hari inkoko ari kujya ashyiraho ifu amaze gutunganya, ariko iyo nkoko ntabwo yari yuzura ifu hamaze kugeraho nkeya.

Igisoro kirimo amasaro menshi agiye atandukanye y'umukara ndetse harimo n'utundi tubiya cyangwa se udusaro tudasa nk'ayandi, biragaragara ko hari abari bari kugikina, ariko bo ntabahari.

Urubyiruko rwambaye neza rwambaye imyenda ya gakondo, rurimo ruseruka rufite indangururamajwi ndetse imbere yabo hari ingoma zikozwe mu ruhu, harimo urimo azivuza akoresheje imirishyo.

Umukecuru uteze urugori ndetse wambaye n'urunigi mu ijosi, arimo arasya akoresheje ibuye ryitwa ingasiri, arasera ku rusyo inono akayishyira ku nkoko.

Ikigonyi kinini cyane kiriho uruzitiro na rwo rwubakishije ibiti. Biragaragara ko ari inyubako imwe mu zigize inzu ndangamurage y'u Rwanda.

Abasore b'imigenda bambaye neza imyenda ya Kinyarwanda cyangwa se imikenyero bigaragara y'uko bagiye gusaba umukobwa.

Ishyo ry'inka cyangwa se inka nyinshi. Ziri hamwe, zirongowe n'umugabo wambaye umupira utukura. Zisa nkaho ziri mu rwuri.

Amatara ari ku muhanda, arimo yaka bigaragara yuko ari mu gihe cya nijoro cyangwa se umwijima. Iruhande rwayo haragaragara ibiti byiza bitatse by'icyatsi kibisi.

Umwana w'umukobwa bigaragara ko rwose ashoboye, yuriye insinga z'amashanyarazi arimo kureba niba yasana.

Abakozi bakora mu muriro w'amashanyarazi, akaba ari umugabo n'undi mugenzi we bombi bambaye ingofero, zibarinda ku mitwe kugira ngo hatagira ikintu kibasha kubangiza, bakaba barimo bakora kugira ngo babashe gutanga umuriro wabuze, mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Abantu bambaye imyenda y'ubwirinzi, bari ku rugomero rw'amashanyarazi n'insinga nyinshi, hari abari hejuru, hari abari hasi bitegereza ibyo abari hejuru bakora.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'ingofero y'ubwirinzi, ari hejuru y'insinga z'amashanyarazi, ari gusana cyangwa se kureba yuko umuriro waba wangiritse.

Abantu babiri buriye ifoto itwara insinga z'amashanyarazi, buriye bagera hejuru. Bigaragara ko ari abari kubikora byagize ikibazo.

Umugore w'umutayeri ari kudoda imyenda, imbere ye ku meza hari urudodo ndetse n'umukasi, ari kudoda yitegereza neza yicaye ahantu mu cyumba ha wenyine.

Umukozi ukora mu mashanyarazi yambaye ikasike y'umweru ndetse n'ikote ari gushyira imibare muri ka kamashini ka mubazi gashyiramo umuriro w'amashanyarazi.

Amatara yo ku mihanda yose ari kwaka. Hari ipoto afatiyeho ndetse n'insinga zitwara amashanyarazi. Iruhande rwayo hari ibiti bigungaje imbere y'umuhanda binini cyane.

Abantu benshi bari kugenda ku kiraro cyo mu kirere, ni ikiraro kizitiye kandi cyambuka umugezi munini cyane, biragaragara ko bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Igicumbi cyubatse mu Karere ka Nyagatare gaherereye mu Ntara y'Iburasirazuba kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye aranga ako Karere, kikagaragaza n'Umurenge ndetse n'Akagari n'Umudugudu giherereyemo, kikaba kiriho na za kirazira ndetse n'indangagaciro ziranga Umunyarwanda.

Inzu nini cyane bigaragara yuko ari inzu ya Leta, iruhande rwayo hari ikibuga kinini kiriho ibyatsi by'icyatsi kibisi, hakurya hari ijuru rikeye neza.

Abana b'inshuke bicaye ku murongo bari imbere y'imbuga cyangwa se ikibuga kirimo amabuye, hakurya y'imbuga hari inzu yubatse neza igaragara y'uko ari inzu ya leta ifite amarangi, imbere y'inzu hari ubusitani bwiza.

Umuhanda w'icyaro, iteme rishaje ririho umuntu utwaye ikinyamitende cyangwa se igare.

Inzira nyinshi z'umuhanda hejuru zikikijwe n'imisozi hepfo ni igishanga cyangwa se ikibaya, haragaragaramo amazu menshi ndetse n'izindi nzu zimeze nk'inganda cyangwa se inzu za Leta.

Abana b'urungano b'abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru, amakabutura cyangwa se amajipo y'umukara, inkweto z'amabara agiye atandukanye n'amasogisi y'ibara rimwe ry'umweru bari imbere y'irembo ry'ishuri.

Inzu ya leta, yubatswe kandi isizwe amarangi y'umweru, isakajwe amabati atukura, iruhande rwayo hari inzira nziza iteguwe, hirya hari igihingwa cyahahinze hari insina, haragaragara ibendera ry'igihugu.

Inyubako nini cyane izengurutse, ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi. Yubatse mu buryo burebana, hagati yayo harimo ikibuga haparitsemo imodoka ndetse kandi hahagazemo abantu benshi.

Abantu bari mu muhanda mugari wa nyabagendwa, umuhanda ukikijwe n'amatara amurika ndetse bigaragara ko bari hejuru y'iteme.

Inzu ya leta yubatswe neza yubakishijwe amatafari ya ruriba, isakaye neza isakajwe amabati atukura ni nziza.

Ikiraro cyangwa se iteme, riri hagati riri mu gishanga, rikikijwe n'imisozi ibiri, iyo misozi ikaba iteyeho ibiti ndetse hakurya haragaragara n'inzu ziri hagati y'ibiti.

Irembo ry'inyubako cyangwa se uruganda harimo inyubako nyinshi ni ku muhanda, harasa neza hari insinga z'amashanyarazi.

Icyapa kinini cyanditseho Akarere ka Nyagatare Umurenge wa Gatunda Akagari ka Nyamirembe Umudugudu wa Kajevuba biragaragaza indangagaciro ndetse na kirazira byo muri uwo Mudugudu.

Inyubako igaragara nk'aho ari iya leta iruhande rwayo hari imbuga cyangwa se ikibuga kinini, inzu isize irangi ry'umuhondo ryubakishijwe amatafari y'impunyu.

Ikibuga kinini cyane gikinirwamo umupira w'amaguru, cyubatse mu buryo buzengurutse ariko nta mukino uri kuhabera, icyo kibuga kandi kirazitiye.

Abantu benshi harimo abagabo bambaye amakoti y'umukara ndetse n'amashati y'umukara bari kureba bihebye kandi bumiwe bigaragara ko igikorwa barimo kibabaje gusa bamwe muri bo imbere ku yabo harambitse amacupa arimo amazi.

Abantu benshi cyane bambaye imipira isa, babahaye amagare mashyashya bari kuyifotorezaho bahagaze imbere y'abandi bantu bigaragara ko bizihiwe kandi inyuma hari imbaga nyamwinshi.

Abantu benshi bari ahantu ku kibuga, aho babateguriye intebe baricara. Bari mu kibuga, bari mu nama, imbere hari umuyobozi wambaye ikote ry'umutuku, ni umudamu kandi afite imisatsi igwa inyuma mu mugongo, bigaragara ko ari kubagezaho ijambo.

Abaturage bicaye hamwe ahubakiye itente kandi hakaba higanjemo abayobozi bambaye amakote n'inkweto zifunze n'amapantaro n'amashati y'umweru ariho na karuvati, imbere yabo hakaba hagiye hari utumeza dutoya turiho amacupa y'amazi bari kugenda banywa kugira ngo batuma mu mihogo.

Abantu benshi bicaye ahantu ku musozi hatameze neza, hari itsinda rya bamwe muri bo bahagurutse bahagarariwe n'umugore ubahagaze imbere bamuhaye indangururamajwi ari gutambutsa ubutumwa runaka.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abashinzwe umutekano n'abasirikari bakikijwe n'ibiti birebire byiza, bigaragara yuko bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye.

Ihuriro ry'abantu benshi rigaragiwe cyangwa se riri kuganirizwa n'umudamu ari kubaganiriza ku ngingo zigiye zitandukanye.

Umugabo uhagaze imbere y'abaturage afite indangururamajwi mu ntoki, bari ahantu mu busitani hari ibiti bigaragara ko ari kubabaha ikiganiro ku ngingo runaka.

Abagabo barimo abaturage, ndetse harimo na polisi, imbere yaho hari igihingwa cy'urutoki.

Abagabo bari hamwe bigaragara yuko bakora mu nzego za Leta zigiye zitandukanye cyane nko mu nzego zishinzwe umutekano, muri abo bagabo haragaragaramo umugabo wambaye umwambaro wa gipolisi ndetse ari kumwe n'abandi hafi yabo hari urutoki.

Uruvunganzoka cyangwa se abantu benshi, abaturage, bicaye bakurikiye umuyobozi uri kubaha amabwiriza ku ngingo zigiye zitandukanye, bicaye munsi y'ibiti birebire mu rucaca.

Umuhanda ugaragaramo igice abanyamaguru bemewe kunyuramo, hakurya y'umuhanda harimo hubatseho inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'icyatsi kibisi ndetse hagaragara n'inzira z'amashanyarazi n'icyapa.

Ahantu hasa n'ahijimye hari umuhanda wa kaburimbo, hagaragara akayira gatoya k'abanyamaguru, kuri ako kayira hari icyapa cyanditseho guhagarara mu ibara ritukura, imbere y'icyapa hari umuntu uri kuza asatira imbere.

Ishusho y'icyapa cya mpande eshatu, gishushanyijeho abana, icyapa kiburira, hakurya yacyo hari ibiti bisa neza bikeye.

Imodoka y'itoyota iri kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo, mu muhanda ucoyemo imirongo y'umweru ndetse ku ruhande hari amazu y'ubucuruzi hari kandi n'abagenda n'igare.

Abantu babiri bicaye kuri moto bari kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo, ni umuhanda ucoyemo imirongo y'umweru ndetse n'indi y'umuhondo hagati, imbere y'uwo muhanda hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi.

Imodoka iparitse iri gushyiramo abagenzi, iruhande rwayo hari abagabo babiri bari kwitegura kwinjira mu modoka.

Imwe mu bwoko bw'imodoka buzwiho ko zitwara abagenzi, iri mu muhanda w'amabuye hakurya yayo hari umugabo uri kugenda mu cyerekezo gitandukanye n'icyo imodoka iri kugendamo.

Abantu benshi bari hamwe mu gikorwa kimwe bari mu cyaro bakikijwe n'ibiti bitandukanye bari mu gikorwa kimwe babukereye icyo twakwita nk'umuganda.

Umupolisi ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ingofero, yambaye impeta kandi yambaye ijiri y'umukara irimo imirongo y'icyatsi kibisi itambika.

Abantu bari hamwe, bicaye batuje, bari guhabwa inyigisho ku ngingo zitandukanye, harimo abasirikari, polisi ndetse n'abandi baturage, bari kumwe mu cyumba.

Abantu benshi bahagaze ahantu mu muhanda ndetse imbere yabo hari inzu ikinze ya gitwe kimwe, harimo abasaza bafite utubando ndetse ubona ko hari ikintu cyahabaye kidasanzwe, hari amabuye mu muhanda bigaragarare ko bari mu gikorwa cy'umuganda.

Umugore n'umugabo umugore afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye amaherena arabyibushye basa neza bari ku kibuga, bigaragara yuko umwe muri bo ari gutanga imbwirwaruhame.

Abayobozi cyangwa se ingabo za polisi harimo n'abasirikari bashinzwe umutekano, bari kugenda baganira bizihiwe.

Inama rusange y'abaturage bahuriye hamwe ahantu mu gisambu bicaye mu byatsi bakaba ari abiganjemo abagore n'abagabo bagiye batandukanye bambaye imyenda itandukanye, umuyobozi akaba afashe indangururamajwi mu ntoki arimo abagezaho ikiganiro yabateguriye.

Ikibuga kinini cyane cy'umupira w'amaguru, hari gukiniramo abana bakiri batoya, kandi imbere yacyo hari abantu benshi baje kubashyigikira, ndetse hari n'abari gufana bigaragara ko bishimye ndetse hari n'abandi bari kubyina imbyino zimeze kimwe.

Urubyiruko rwizihiwe rwishimiye gukina mu kibuga. Barasa neza bafite imbaraga n'ibigango barimo bakina umupira w'amaguru, kibuga kiza nacyo gifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu bari mu murya umwe bari muri siporo, barasa neza babukereye, harijimye uretse ko hagaragara amatara ari kwaka ku mihanda, harasa neza.

Ikibuga kirimo abagabo babiri bambaye imyenda ya siporo bigaragara yuko barimo bitoza.

Urubyiruko rw'abakobwa rurimo kwitoza, ruri gukinira umupira ku kibuga cy'icyatsi kibisi, barishimye, bambaye impuzankano, bamwe bambaye umutuku, abandi ubururu.

Abasore cyangwa se abagabo barimo bakina umupira, barimo gukinira mu kibuga kirimo ibyatsi by'icyatsi kibisi, iruhande rw'ikibuga hari akayira k'igitaka, hakurya hari amazu, ibiti, bigaragara yuko hatuwe abantu.

Abakinnyi basa neza rwose bambaye impuzankano y'ibara ry'umuhondo, barikumwe n'umudamu umwe nawe wishimye cyane ku kibuga.

Mu muhanda rusange harimo igare rihetse imizigo inyuma rikaba ririho n'umunyonzi aritwaye kandi inyuma ye hari abandi barimo bambuka, iruhande rw'umuhanda hari jaride zirimo ibyatsi bitarakura neza, hakurya ye mu kaboko k'ibumoso hakaba haparitse imodoka imbere y'amazu y'ubucuruzi.

Abantu babiri bari ku muhanda, bafite ibinyamitende, umwe arimo afasha undi, kubishyira neza kukinyabiziga, ni mu muhanda wa kaburimbo.

Moto iri kuzamuka ahantu mu muhanda munini ariko utari uwa kaburimbo, ni umuhanda bashyizemo amabuye ameze neza ku buryo utanyerera.

Santere y'ubucuruzi ifite amazu bacururizamo imbere yayo hakaba hari akazu gacururizwamo amayinite ya MTN kandi iruhande rwayo hakaba haparitse abamotari batandukanye bamwe bicaye ku mamoto zabo abandi bakaba batazicayeho bategereje abagenzi ngo babatware babashe kubona amafaranga.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nkaho hatagaragara neza ahubwo amatara ari kwaka, imbere yaho hari uruzitiro rw'amabati, imbere y'uruzitiro hari n'izindi nzu zirukikije.

Umuhanda w'igitaka utameze neza cyane, hakurya hari guturuka umudamu uhetse umwana witandiye agashuka.

Ababyeyi babiri bari mu muhanda, umuhanda w'icyaro, barimo bagenda., bigaragara yuko bavuye guhaha. Bitwaje ibikapu mu ntoki, uri inyuma yambaye ijipo ndende.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, imbere y'aho hagaragara umutaka w'umuhondo ndetse n'ibiti, hakagaragara imodoka ziparitse ndetse n'abantu.

Ni umuhanda rusange ukoze neza wa kaburimbo urimo irangi ry'umuhondo riri hagati na hagati rigabanya imodoka n'iyindi, hakaba harimo umugore uhetse umwana ufite n'igitenge ku mutwe kandi akaba arimo agenda wenyine afite n'igikapu mu ntoki, hakurya y ye hari indabyo ziteye iruhande rw'ibarabara.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti byiza biwuteye iruhande, mu muhanda haragaragaramo abantu babiri bari kugera mu byerekezo bitandukanye. Umuhanda urimo umuriro w'amashanyarazi ku muhanda iruhande rwabo.